Abasirikare barambaye neza， barameze nk'ab'ingabo z'u Rwanda，barasa neza barambaye inkweto nziza， imyenda myiza ntakibazo， ibihugu byose byajya birambika abasirikare babyo gutya，baba bafite isuku basa neza.

Hano hari abantu benshi cyane bameze nk'abari mu isoko, abantu benshi bari ku nzu wagira ngo yahiye, yigeze gushyaho, ifite umuriro w'amashanyarazi umeze neza ndetse n'ubucuruzi, nta kibazo na kimwe.

Abantu barasohoka mumodoka ipakiye imizigo mo imbere no hejuru yayo, yapakiye imizigo, ibikapu ,imifuka bitwikirijeho imyenda, hejuru hapakiyeho amapine.

Umuporisi uri ahantu hadekoye, hadekoye amabara agera kuri atatu, umuhondo, icyatsi n'umutuku, ufite intebe, inyuma ye arahagaze, ari gutanga ikiganiro, imbere hari ameza nayo adekoye, bashyizeho amabara meza.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, hari feruje, hari amatara yo ku muhanda, hari inzu, ibiti na moto biri ahantu mu mujyi hasa neza mu muhanda mwiza.

Ingabo zambaye imyenda ya kaki zitwa inkeragutabara, aho zifasha uturere gucunga umutekano. Ziri ku kibuga kinini cyane, aho ziri hari ibiti binini.

Abantu bambaye imyenda y'ubururu n'amapantaro y'umukara, barasa nk'abari mu myitozo y'abantu bashaka kuba abapolisi, hirya yabo hari ibiti bimeze neza cyane.

Uyu aracunga umutekano, arambara agahishamuwa n'ingofero. Ni akazi kera kakorwaga n'abagabo, ariko ubu ngubu n'umugore arimo aragakora nta kibazo, arambara iniforume...

Umuyobozi ushinzwe umutekano, arimo arajya yereka umugore wambaye ibitenge, uko barazimya gaze, cyangwa se igikoresho cyo mu gikoni, kiri kwaka umuriro mwinshi.

Abashinzwe umutekano bazwi nk'aba daso cyangwa se aba abashinzwe umutekano ku rwego rw'akarere baba bambaye impuzankano yabo iriho amabendera biba birasa neza ga.

Ubwo umukobwa atetse kuri gaze n'andi magazi. Barimo barareba, barashaka kuzimya inkongi. Umuriro urakabaje bariruka baje kumufasha kuko yazimya inkongi.

Inama z'abayobozi barasa neza mbega ni mu mbwirwaruhame ukabona birasa neza baramwumvagaragara nk'abateze amatwi nawe akababwira ukabona ashize amanga ikiganiro cyawe kiryoshye ga

Mu bigaragara, mu bigaragara uno mujandarume yari yishimiye abaturage. Arababwira neza nabo bamuhanze amaso, noneho harimo abantu ubona babakecuru bishimye, banezerewe. Barajenda babona yuko nawe yabishimiye. Biba ari byiza cyane.

Abaturage bari ahantu, abagabo benshi barimo bahagaze bategereje kumva icyo bababwira bari mu itsinda rinini, imbere yabo hari agakoresho kabereka ibyo bagomba gukora.

Umuntu w'umugore yambaye amataratara cyangwa amadarubindi, yicaye atanga iki gitekerezo anafise mikoro mu ntoki, anambaye n'ikote risa neza cyane, abantu bateze amatwi barimo baramwumva.

Iki gikoresho cya kinyarwanda gikora umuziki kimeze neza cyane, umugabo aragifashe yambaye ibintu bitandukanye biragaragara neza cyane, agifashe mu biganza bye.

Hano ni aho barebera ibikoresho bya kera hariho: inkangara, ibyansi bakamiramo amata, hariho umukeka umeze neza, hariho n'ibindi bikoresho bitandukanye bya kinyarwanda.

Hano ndabona ababyinnyi，ababyinnyi bari kubyina bikoreye uduseke， bahamiriza，cakora bari mu bukwe， bari kubyina neza.

Imizinga ijyamo inzuki bagakuramo ubuki imanitse mu giti, ikibazo ishobora kuzagwa igahanuka ikagwa hasi ugasanga irashwanyutse! igashwemukira rimwe, ni byiza ko bayishyira hasi.

Muno hagaragara indobo irimo igikatsi gituruka mu bitoke barashingamo umuheha abantu barajya banywa, hari inzu biri mu nzu irajya yubakishije amatafari y'ibyondo.

Hano hagaragaramo umuntu ufite ibiganza birimo inkono y'itabi. Bakoresha bashyiramo itabi bakanywa. Bimeze neza cyane, umuntu ayifashe mu nzara ebyiri.

Umukobwa wicaye imbere ye hari igisabo kinini bacundiramo amata, yambaye umwitero impande ye n'akandi kantu mu mutwe arasa neza cyane nta kibazo umukobwa mwiza.

Umusambi urambuye ubohesheje ubwatsi. Hariho imihiro myinshi cyane aho abantu baribuge basasa hasi, bakaryamaho bakugama izuba cyangwa, se bakumva bamerewe neza.

Intore zirimo zihamiriza, zambaye ibintu mu mitwe, zifite icumu, zikenyeye utuntu, zifite ingabo mu gituza, zirimo ziratera intambwe, zambaye n'ibindi bintu ku maguru.

Intore zirimo zirabyina, zifite ibikoresho zikoresha mu mwuga wazo, inyuma hari ingoma zigera muri eshatu zambaye intore, zambaye ibintu mu ijosi.

Umusaza rukukuri arajya anywa itabi mu kanwa ke, afite akabando mu ntoki, yambaye ibikomo ku maboko, afite umusatsi w'umweru witwa imvi, yambaye ipantaro imeze nk'iyacitse.

Intore irimo irabyina ifite inkoni mu ntoki, ifite ingabo, iteze ibintu mu mutwe biyifasha kubyina, ikizihirwa ni byiza cyane.

Intore zirimo zibyina zihamiriza, zambaye imyenda itandukanye, ziri ku kibuga ahantu hari imisozi miremire, zifite amacumu n'imisatsi yazo zirasa neza cyane.

Hano hari abantu bari gukoma ingoma ,bafite imirishyo bakoresha, bambaye nk'intore .Undi yasimbutse afite ikintu mutoki cy'igikoni ,akoresha ari guhamiriza yambaye imyenda itandukanye bakoresha bahamiriza. Yasimbutse cyane.

Barajya barasekura mu isekuru ifu nziza cyane, ndabona ifu ijya gusa nki'kigina, bari gusekurira mu insekuru y'ibiti yasadutse, harimo umuhini bakoresha basekura birajya birasa neza.

Inka y'inyambo ifite amahembe maremare bategesheje urugori rufite ibara ry'urugwirungu ,isa neza iri kureba imbere, ihagaze ahantu mu biti birebire cyane biyisumba ifite n'umunwa ifite n'amaso.

Intore irimo ibyina irajya ihamiriza irambuye amaboko ifite ibintu iteze mu mutwe yambaye n'ibindi mu gatuza, ifite n'amayugi ku maguru izamura ikirenge ikenyeye n'ikindi cy'umutuku birasa neza cyane.

Aba bakobwa beza barimo barabyina, bahamiriza, bameze neza cyane. Bafite ibintu mu ntoki imitsima bari no kunywa. Inyuma hari n'abandi, mu nzu zirajya ziramera nk'iza kinyarwanda.

Mu nkono y'itabi aho abantu bajya bayikoresha, abasaza n'abakecuru bo bashyiramo itabi bakanwa, ibintu bikamera neza cyane bumva uko itabi rimera.

Ingorofani iri mu muhanda ifite amapine y'umukara n'umuhondo , barasunika ziri ku biti, zikiri nshyashya zimeze neza cyane nta kibazo.

Intore ziri guhamiriza ni intore zigera kuri esheshatu, harimo ivumbi ryatumutse, zambaye amayugi zakenyeye inkweto hasi, zifite imisatsi, zifite n'inkoni zashinze.

Ibisabo biri ahantu munzu nziza ijya kumera nkaho ari iya kinyarwanda, hari n'ibyansi barajya bashyiramo amata hagiye hari imirimbo itandukanye bakoresha muri iki gihe.

Bongeye kubyina nka kera, kera nibwo babyinaga gutya ariko ubu ngubu ubu se hari intore zikibaho? ntago njya nzibonaga wapi. Ibi mbiheruka kera wasangaga nk'ahantu habaye ubukwe ariho babyinaga gutya ariko kuri ubu ngubu byabaye iby'iterambere pe!

Umukobwa uri gutora ibishyimbo unatetse yambaye urunigi mu ijosi yateze igitambaro yambaye inkanda, iruhande rwe haziritse intama n'isafuriya iri ku mashyiga acanye inkwi hariho amashyiga atatu.

Umukobwa ufite igiseke mu ntoki, wambaye ibintu mu muhogo, ateze ibintu mu mutwe, wambaye ibintu by'ibikanzu birimo amabara asa nay'ingwe, ni byiza cyane.

Intore zifite inkoni zifite imigara zirimo zirahamiriza nkuko byari bimeze kera ariko ubungubu ntago zigikunze kubaho zifitemo igiseke zirimo ziraci rwose ntakibazo.

Ndabona inkono iri ku mashyiga yatekeshejwe inkwi ipfundikije, iyindi nkono hariho umuriro uri kwaka cyane, uzamuka ugana hejuru.

Ngo umuntu afite ibibindi binini n'ibibindi bitoya, arimo aratoberamo ibintu, yambaye ikote yambaye ingofero yambaye inkweto n'ipantaro, y'umukara ngo arasa neza cyane.

Abaturage bari ahantu ku kibuga ,bari kureba umuntu urimo urajurera hejuru, arurira igiti ,amanikaho akagozi k'agati gatambitse, usa n'uri gukora izamu ry'ikibuga cy'umupira abantu bamureba.

Inyundo umucuzi ufite inyundo nini n'ibyuma abifashe mu ntoki arimo gucura akoresheje igikoresho cye, afite amabuye yicaye no k'utundi tubuye ahantu mu icuriro.

Ubundi ibintu byo kubohaga imisambi byabagaho kera ariko ubungubu na bwo ndabona abantu baracayiboha, ntabwo naheruka kubibona, ariko barayiboha neza ga, ugasanga umuntu aragasasa hasi akakaryamaho wenda nk' igihe ari kugama akazuba nta kibazo biba ari byiza.

Inzu ya kinyarwanda yubakishije ibiti, isakaje ibyatsi, hamanitseho ibiseke ku muryango, hatuyeho indi miba y'ibiti ku ruhande, urugo rwubakishije ibiti.

Igikoresho cy'umurya wa kera, na giherukaga kera, ntabwo kuri ubungubu nkibibona, ariko byagiraga umuziki mwiza, ndabyibuka abantu bajyaga babicuranga, ukabona ni ibintu byiza, none ntabwo bigikunze kuboneka.

Ingoma imanitse ahantu, abantu barajya bayisanga bakayivuza. Ni ku nzu iriho amarangi y'umweru, ifite amadirishya y'icyatsi kibisi, iriho n'irindi bara ry'umutuku ahagana munsi.

Umugore mwiza, wambaye, wikwije, wipfutse mu maso, afite igisabo, arajya aragikoresha, acundiramo amata, kugira ngo abone amavuta azajya arakoresha.

Izo nzu zimeze gutya zabagaho kera, ahayinga muri za mirongo itandatu n'umunani na mbere yaho, ariko guhera muri za bibiri inzu nk'iyi nta hantu wakongera kuyibona ubu, abantu bose barasirimutsega.

Umugozi ndabona umugugozi wa terefone cyangwa wa mashine ukoreshwa ku mashanyarazi uteretse hasi.

Hano hari agasanduku k'umuriro w'amashanyarazi cyangwa se kabikwamo ibikoresho bitandukanye, biragaragara nk'aho gafunze ariko kajya gafungurwa, gafite ibara ry'umweru.

Igikoresho cy'umuriro w'amashanyarazi kiri ku meza, gifite uduhembe dutatu dusongoye cyanditseho imibare, gifite n'amaburo bafungura impande hariho akantu k'umutuku.

Hano haragaragara amatara ari ku meza. Itara ry'amashanyarazi ribonesha ahantu mu nzu, aho abantu bazajya barifata bakarikoresha ibintu bigiye bitandukanye, ni ryiza cyane.

Igikoresho cy'amashanyarazi, kiriho utubuto bagenda bakanda, bavizira, baregera ngo barebe ko umuriro ugera aho bashaka ko umuriro ugera. Bacyita ampuri pawa, kigabanya umuriro cyangwa se kikawongera.

Hano hariho igikoresho cy'amashanyarazi cy'umweru waka de! Cyanditseho Yiko. Giteretse ku kantu bakoresha batsa kugira ngo babashe kubona urumuri rwiza. Iyo ukanzeho uzamuye umuriro uhita waka.

Ndabona ibikoresho by'amashanyarazi bisa ariko ko bimeze nk'amaradiyo, ariko nabyo bigabanya umuriro, igikoresho wacomeka ntabwo gishobora kwangirika.

Akenshi bino bikoresho by'imiriro bituma nk'igikoresho kindi wacomekaho kidashya kuko bibanza kugabanya umuriro bikawushyira ku bikawushyira ku kigero cyawo ku buryo igikoresho wacomekaho kitafatwa n'umuriro mwinshi ngo kibe cyashya ni cyo cyiza cyabyo.

Ibikoresho by' amashanyarazi bikoreshwa mu nyubako, zigiye zitandukanye za leta aho bakoresha bacomekamo, kugira ngo babashe kubona umuriro mu bikoresho byabo bitandukanye.

Ahantu hari inzu imeze neza cyane hari abantu barimo baragenda, inzu yubatse mu buryo butangaje ifite igisenge gitangaje cyane, kitapfa gushoborwa n'abantu bose, hari abantu barimo baratambuka iruhande rw'iyo nzu.

Imodoka zitsindagiravimihanda irimo umushoferi. Ifite ikigunguru kigenda gitsindagira imihanda, n'abatekinisiye, abakozi bayo bari ku ruhande baratambuka bajya kureba aho ivuye uko hameze.

Ikibuga c'yindege kimeze nk'aho kiri hafi y'inyanja, aho bagiye kucyubaka barahashyira ibimenyetso byinshi cyane, byerekana ko hagiye kuvugururwa hakaba ibikorwa remezo. Ni byiza birajya bisa neza.

Muno hagaragara abantu bari ku kigega cyo hejuru barimo baragenda, bameze neza nta kibazo. Gifite imyenge igiye itandukanye, birasa neza cyane.

Umugore uhagaze wambaye agapfukamunwa ufite na marinete wambaye isaha. Ahagaze mu nyubako ya etaje yubakishijwe amatafari meza iteyeho n'amarangi arasa neza.

Inzu nziza cyane ifite amabati y'icyatsi kibisi, ifite irangi iteye umucanga na sima yubatse. Iruhande hari agakoni na ko gafite imiryango ibiri n'amadirishya abiri, birasa neza cyane.

Inyubako nziza cyane zisa nkaho ari mu bitaro bimeze neza cyane, zifite amarangi; haruguru hari inzu iriho amabati y' ubururu impande hari ubusitani bwiza.

Inyubako igaragara igaragaza ingoro y'ubutabera ya Musanze, ikaba iriho ibendera ry'u Rwanda. Ni inyubako ya etaje igeretse rimwe ifite amadirishya agera kuri atandatu, hari n' imodoka y'umukara.

Ikirere kisa neza gifite ibicu by'ubururu n'umweru hari ibiti bigaragara ahagana hejuru, munsi naho hari inzu ifite amabati yaje kumera nk'ayarimo imigese, ariko ifite n'amadirishya n'inzugi ifite uburebure nk'ubwo mu rusengero.

Ndabona amayetaje inzu iriho amabendera, iriho umusekirite ari gufungura icyuma, iriho icyapa hejuru kiranga ibyo bakora, inzu nziza iraje irasa neza.

Iyi nzu nziza, imeze neza cyane yanditseho barajya bandikaho, ibiro by'akagari ka Rugeshi imeze neza cyane, yubatse ahantu hameze nk'aho ari mu cyaro.

Abayobozi bari mu nzego zitandukanye barataha inzu, baraca umugozi, bari ahantu bagiye kubaka inzu zigiye ziratandukanye, birasa neza cyane, ni byiza.

Ikirere kimeze neza cyane n'ahantu munsi hari inzu zizitije senyenge cyangwa se ibyuma, hubatse n'inkuta zimeze neza cyane, hari n'abanyeshuri barimo baragenda bazamuka hirya ku ruhande.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bwa etaje, yubasize amarangi. Iriho ibyuma impande hari ubusitani bumeze neza cyane, aho abantu bose bakifuza kuba basohokera.

Mu nzu isa neza cyane harimo inzugi zimeze neza, harimo akabati kameze neza. Harimo aho babika dokima hasa nk'ubururu bwererutse. Harimo impapuro z'umweru.

Inyubako z'amashuri zimeze neza, barimo barubaka akandi kanyubako gatoya hepfo, gashobora kuba ari ubwiherero, umuntu, abanyeshuri baraja baraza kwiga, bazajya bakoresha, inzu zisa neza, ziteye uturangi.

Abakinnyi bari mu kibuga bakina umukino wo kunaga mu ipaniye, uzwi mu rurimi nka basiketi bakina bazamuka basa neza cyane, ku nyubako zimeze neza ni abakobwa bambaye imyenda y'icyatsi kibisi.

Inzu ya itaje yubatse neza, igeretse kabiri iteye amarangi asa neza cyane. Inzu ifite ubusitani bwiza busa neza, urabona ko ibintu ari nta kibazo.

Imirima y'icyayi iri hakurya, hari amazu meza ariho n'amatente ahahagazeho n'imodoka, afite amabara agiye atandukanye ni amazu meza cyane n'umuhanda uhari.

Ahantu hari gaze naho bajya batekera haba hasa neza cyane, hari umweru yerekana uko ateka bimeze neza cyane, n' amatafari ahiye asa neza.

Ibara risa nk'ubururu bwerurutse, munsi ya ho hari sitasiyo y'ahantu bavomesha amagaze, peterori, n'ibindi bikoresho bitandukanye abantu bagenda barakenera.

Inzu nziza imeze nk'urusengero aho abantu basengera. Yubakishije amatafari ahiye, ifite amabara y'umweru, ubururu n'ibirahure byiza. Ifite urugi rw'icyatsi kibisi, hari n'aho bazimiriza iyo inkongi iteye.

Ibiti byiza cyane bimeze neza by'ubwoko bwose, biri ahantu iruhande rw'igipangu cyiza kirasa neza, cyubakishije amatafari meza, kiriho amabendera kiriho na geti nziza cyane.

Ubundi insengero ziforomye nka gutya ntago zijya ziba izabadive kubera abadive ntabwo bajya basiraho umusaraba hejuru uko byakagenda kose urusengero rwubatse gutya rujya rw'abarukore, abarokoreye cyangwa rugashobora kuba urwagatoholike ariko ku badive ntago mbibaziho ga.

Urusengero rwiza cyane ruriho umusaraba, abantu baje gusenga bakenyeye ibitambaro, hari n'idarapo rimeze neza. Hari n'umugabo wambaye agapfukamunwa arajya aratambuka nta kibazo.

Hano bigaragara ko bari mu kigo cy'ishuri cya rumu , aho abantu barimo gushakashaka bicaye kuri mashine bameze nka'banyeshuri , bari bafite amamashini manini bakora ikizamini cya Polisi bakorera uruhushya rwo gutwara ibyabiziga by'agateganyo.

Urusengero ruriho igiti gishinzeho insinga, zijyana umuriro aho abantu barajya barajya gusengera, kugira ngo babone imana, ari n'urusengero, ruriho amadirishya rwubakishijwe, amatafari ahiye.

Abantu b'abagabo n'abagore barimo bareba uko ibintu bihagaze bahagaze iruhande rw'inyubako imeze neza iriho garaviye. Ni abagabo batatu, umugore umwe baje barareba n'ibintu.

Inzu ya etaje igeretse cyangwa kiliziya iparitseho imodoka ebyiri, imodoka enye; zifite amabara atandukanye umweru w'umutuku yubatse mu buryo bwiza cyane n'amatafari ahiye.

Abaturage bari mu nama barimo kuganira, hari umuntu uhagaze wambaye umupira w'umutuku, arikumwe n'abandi bicaye, baraje baraganira, yambaye umupira w'umuhondo, harimo n'abambaye ibitenge, ababyeyi basutamye, iruhande rw'ikigo cy'ishuri.

Hano hagaragara abasaza bari mu igororero, bambaye imyenda ya roze, bamwe bambaye udupfukamunwa, bari mu nzu nta kibazo, barimo mu nzu nini cyane isa neza.

Umugore uri gutanga ikiganiro afite mikoro, akenyeye ibitenge. Umusaza uri iruhande rwe wambaye amarinetele, abandi bari inyuma bateze amatwi birasa neza cyane.

Abaturage bari mu isoko cyangwa muri gare, ubona bishimye bameze neza, bari kugenda ahantu ku nyubako iruhande rwaho ni iya etaje,..

Izi modoka si zazindi bajyanye mu muji wa Kigali? Ni JALI taransipoti nizo zitwara abanyamujyi ntago zijya zikora mubyekezo byo mu ntara zikorera mu mujyi wa Kigali gusa. Ariko nyine ni nziza zigenda zuzuye ariko zisigaye zijya no mu ntara.

Moto iriho amajerekani n'indi iri ku ruhande ihetse amakarito ,aho abantu barajya barava kuvoma bagatwara ikidarabare kimeze neza .Umuntu anambaye ingofero ni we arayitwara n'umugore ukenyeye ibitenge ku ruhande.

Ariko imihanda n'iya Kigali, irasa neza, baratwara abagenzi, urabona hari ibiti ku mpande hirya, ariko ashobora no kuba ari i Bugoyi, ari Bugoyi naho bajya baratwara gutya nta kibazo, ariko ntago ajya atendeka umumotari wo muri kaburimbo.

Umuvandimwe arasa nk'uwari watwaye igihembo cya moto, urabona ni moto ya bibogisi, bamuhaye ibikoresho bye byose nawe arishima k'ubwo igihembo yari yatwaye, urebye birasa nk'ibigaragara uko, ni byiza.

Abamotari batwaye abagenzi kuri moto zifite ibyapa bitandukanye, barajya baragenda inyuma y'imodoka ya tagisi, nayo irajya itwaye abagenzi, n'imbere hari abandi bamotari barimo baragenda.

Muri gare aho abantu baje bafatira imodoka zitandukanye ziparitsemo, hari aho abagenzi bugama izuba, zigiye ziteye amabara atandukanye.

Gare irimo imodoka nyinshi zanditseho yaho, aho abagenzi bategera bagiye ahantu hatandukanye harimo: abasaza, abana, abasore, abagore. Bari muri gare hari imodoka nini ni ntoya zitwara abagenzi.

Imodoka ya Ritiko irimo iragenda ifite amabara atandukanye mu muhanda, inyuma hari n'indi na yo biri kumwe, zose ni iza Ritiko zimeze neza, hari amabara y'ubururu hari umuhondo hari n'umweru mu mabara meza.

Imodoka nyinshi ziba ziri muri gare, aho abantu bafatira imodoka bagiye ahantu mu byerekezo bitandukanye. Harimo abanyeshuri benshi cyane bambaye umwambaro w'ishuri.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amashyamba awukikije hepfo, urimo abanyonzi bari gusunika imitwaro ku magare yabo ariho imisego, ameze neza, atatse, yogeje, asa neza.

Indege iri mu kirere yanditseho Rwanda eya ifite amapine munsi aho abantu barajya burira bakajyamo imbere igatangira ikikaraga, ifite amababa iriho amabara y'ubururu, umweru, umuhondo icyatsi kibisi.

Hano ndabona wicaye kutomeze nkaho igihembo y'ishimiye irihe ibirango byahago ri ingofero z'abamotari, y'umutuku kuberani ngofero y'umuhondo.

Umugore uri kuvugira muri mikoro, utambaye ingofero imeze neza, ikote ari inyuma y'imodoka ya dayikatso, n'undi uri kuyipakurura, iruhande hari umumotari wambaye umwambaro w'abamotari n'ingofero.

Imodoka ipakiye amakara n'amajerekani menshi cyane, ibipakiye bigera hejuru abantu bicaye inyuma ahantu bashobora kugwa, imodoka ifite ibara ry'ubururu ariko butijimye, n'imifuka y'umweru myinshi cyane.

Abamotari batwaye abagenzi bambaye ingofero zabo mu mutwe, bari ahantu hari imodoka isa neza ntoya hari num' agenti wa emutiyeni uri gutanga serivisi.

Ahantu hari inzu ya etage hari amamodoka menshi, hahagaze abanyonzi, abamotari hari inzu y'umuhondo yanditseho ibirango bya emutiyene, isa neza hakurya hari umusozi mwiza wubatseho abantu.

Hano haragaragara imodoka ya ambulanse cyangwa se imbangukiragutabara, itwara abarwayi bagiye aho abantu barajya bajya mu bitaro ikaba ariyo ibatwara ikabageza aho bifuza kugera.

Imodoka barimo barapakurura imyaka, imifuka ya kirojana, imbere hari umuntu wakinguye urugi ushaka kuyinjiramo, hejuru y'imifuka ipakiye inyuma, hariho igitoki.

Hano ni muri satere aho cya kibuga cya kaburimbo ,aho abanyonzi bahagarara kugira ngo bategereze abagenzi hari ibyapa bitandukanye, abanyonzi bicaye ku magare bategereje abagenzi kugira ngo babatware.

Umuntu arapakurura imodoka ipakiye ibicuruzwa bitandukanye, akuraho shitingi ihagaze imbere yinzu y'ubucuruzi aho barajya baracururiza.

Imodoka y'igikamyo kinini cyane gitwara ibikoresho bitandukanye harimo peteroli, amavuta. Ifite ibara ry'umweru n'umukara gifite n'amapine manini.

Imodoka nini irimo kugenda mu muhanda irafite amabara agiye atandukanye, batatse vuba ariko ni nziza cyane igasa neza cyane n'imodoka umuntu yakwifuza kugendamo.

Imodoka nini irimo iriho abakozi bambaye amajiri, bambaye ingofero z'umuhondo, bambaye amapantaro y'ubururu na bote z'umukara, bigaragara ko ari abakozi b'imodoka ikora mubijyanye n'ubwubatsi, barajya bakora neza cyane.

Ikamyo imaze gusarura wotameloni, imbuto z'ibihaza ziribwa ziba zifite amazi menshi, ino kamyo nayo bayiteze ibuye ku mapine y'inyuma, umuntu arimo arapakira ubona ko nta kibazo.

Hano hagaragaraho abakinnyi b'umukino bafite amasura meza, bafite udukoresho twabo bakoresha mu mukino bajya bakina, dupfumaguyeho, dufite na buro n'akandi kantu keza, bambaye ingofero n'imipira y'imyeru.

Abakinnyi ba volebolo cyangwa ba basikete bari muri sitade , bari kugenda batera mucaka . Umwe yambaye ubururu, umuhondo, umutuku.......

Abakobwa b'abakinnyi bakinira ku mucanga. Buri wese afite umupira bambaye amasengeri, bafite imisatsi myiza n'amaguru meza cyane asa neza cyane. Ni abakobwa beza b'ibikara, abandi b'inzobe bameze neza.

Abakinnyi ba basketball bari kurwanira umupira ngo bawushyire muri pane yawo, babashe gutsinda .Ndabona na paniye ifite utudomo tw'umweru barimo kwiruka bashaka kunagamo umupira.

Hari ikibuga kimeze neza, cyubakishije amatafari ahiye, hari n’amatara ameze neza cyane. Harimo imirongo y’umweru mu kibuga imeze nk’icagaguye, indi idacagaguye.

Muno hagaragara abakinnyi b'umukino waba futuboru cyangwa umukino w'umupira w'amaguru, aho abantu bajya bagenda bagiye gukina, aho bararaja barakina bagatsinda ibintu bisa neza cyane.

Abantu bare muri siporo bajya bagenda biruka bambaye imyenda itandukanye bamwe amasengeri, abandi imipira bari mu muhanda munini wa kaburimbo aho barajya bakorera siporo neza bisanzuye.

Umukinnyi wasimbutse ajya hejuru arimo gukinira muri sitade. Bisa bambaye imyenda ijya kuba ubururu, amakabutura ajya gusa umuhondo, bameze neza cyane.

Umukinnyi w'umuhungu arimo ashaka umupira ngo awuhe umukobwa uri inyuma. Inyuma hari abandi bahagaze baje kureba uko umukino umeze barishimye cyane baryohewe.

Ikibuga cy'umukino, umupira w'amaguru, aho abantu barajya bajya kwidagadurira, bagakora siporo, kugira ngo babashe kugorora imitsi yabo, bagire ubuzima bumeze neza.

Umukinnyi arimo agenda ku mucanga yambaye mayo yanditseho n'umupira wanditseho magana ane mirongo itatu toyota ibintu birasa neza cyane.

Abakinnyi bakina umukino wa basiketi umukobwa n'undi mukobwa bambaye imyenda itandukanye, irimo icyatsi kibisi undi yambaye umuhondo wanditseho u Rwanda, yari yambayemo umupira w'umweru undi yambayemo umukara bajya basimbuka.

Imodoka ntimeze neza yanditseho akagera moto, iri mu muhanda urimo ivumbi ,n'ibiti bimeze neza, iriho inyuguti zigiye zitandukanye birasa neza cyane.

Abazungu bari kumwe n'abantu b'ibikara cyangwa se b'abanyafurika harimo na minisitiri wa siporo, bafite imidari bahawe nk'ishimwe ubona bisa neza cyane.

Abakobwa bakina imikino itandukanye barajya bamanika amaboko harimo n'umuhungu, iruhande hari abakobwa babiri ku rundi ruhande hari umuhungu n'ahandi hari umukobwa barajya berekana ibyo bazi.

Abakinyi ba Basikete, abana umwe afite baro yazamutse, ari gushyira mu gapaniye bashyiramo, undi ari kwiruka, undi amuhagaze inyuma, bambaye imyambaro itandukanye, umweru, umukara, umuhondo bambaye amakora mo imbere.

Abakinnyi b'abakobwa bakina umukino wa handiboru, hari umweru ifite akabaro arajya atera kugira ngo n'abandi bagafate bose bakine bagana imbere aho umupira werekeza.

Abakinnyi bafite ubumuga bo mu ikipe y'u Rwanda , imipira iriho amabara yubururu bwerurutse,n' umuhondo. Bambaye ingofero zirinda impanuka, bafite ibikoresho byabo nk'abantu babana n'ubumuga.

Umukinnyi wa hendiboro afite akantu mu ntoki akinisha. Hari aga tenesi, yambaye ipantaro y'umukara umupira w'ubururu, w'umuzungu wambaye kola y'umweru imbere, arimo arakina.

Hano ndabona sitade yubatse neza, yajya kumera nka stade amahoro urabona ifite igishushanyo cyiza hari intebe nziza, ifite n'ubwatsi burasa neza.

Ikibuga kinini kgiye giciyemo imirongo y'umyeru kizitije ibyuma harimo imyenge ureba inyuma gifite n'izamu ryiza cyane bajya bacamo.

Abakinnyi bari gukina bambaye imipira y'ubururu yanditseho umunani'l Rwanda, nandi y'umweru ariho ibintu bitandukanye nimero makumyabiri kanditseho n'amagambo mu mugongo.

Ahantu basohokera abantu bashaka kwishima. Ni inzu imeze neza cyane. Hari umugezi ufite amazi meza bajya barajyamo bakogamo abantu bakundana, cyangwa se bari muri famiye.

Turudirwanda hano yari imeze neza, isiganwa? Ni rya siganwa ry'amagare. Isiganwa ry'amagare, hano urabona baribari kugenda nta kibazo na kimwe. Birasa neza rwose, bari bageze mu makosi, ariko ukabona bimeze neza.

Abakinnyi ba basikete b'abakobwa bambaye imyenda itandukanye barimo gukina umukino wa basikete, harimo abakobwa bambaye amakabutura y'ubururu n'umweru, harimo n'abandi bambaye ipantaro y'umukara.

Uwo mukobwa w'umukinnyi ufite baro mu biganza, arimo ariruka arasa neza. Arajya afata umupira arashaka kuwutera aho bakinira basiketi hameze neza cyane.

Umu hagaragara abakinnyi ba basiketi bagiye kunaga mu gatebo, aho banaga bambaye imyenda itandukanye, amakabutura y'icyatsi kibisi, imipira n'amakabutura y'umuhondo ku rundi ruhande.

Ikigega kiriho kirihutarutse ku byuma hafi yaho hari imodoka itacyakora k'umuhondo n'utundi tumodoka dutoya tw'utuvatiri.

Uyu muhanda wa kaburimbo ushushanyijemo ibintu byafotowe na Infnix gatandatu telefone izwi nkifotora neza, hari n'inzu zimeze neza cyane n'amadirishya ameze neza nta kibazo.

Inzu yanditseho famu serivise senta ngo iri ahantu hameze neza cyane hari indabyo hari ipoto iriho insinga zijyana umuriro ahantu hatandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara ko ushaje ufite moto iparitse hirya uriho utuborodire tw'umweru n'umukara , uciyemo imirongo mo hagati mu muhanda.